Abantu babiri bari mu iduka ryisanzuye kandi rifite ibikoresho byose bigezweho, kandi bikenerwa umunsi ku munsi. Harimo ibikoresho byo gukoresha mu rugo nk'amazi n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye.